Abasirikare abasirikari babiri bambaye ingofero afite na telefoni, mu ntoki n'undi mupapa ukuze uhagaze n'undi mukobwa wifitiye akabibiliya mu ntoki, n'undi mugabo wambaye isaha ndikubona bari hano handitseho toyieleti bivuga ngo bari kuri tuwaleti.

Ameza ateretseho imishito, hariho amavuta, hariho polete manje irimwo ibiryo, hariho isaha, hariho amazi, harimo sunitayiza yo gukaraba, harimo agakarito, harimo n'a kirita hariho na kerida.

Umuntu uhagaze abandi nabo bari kumureba bari ku murongo, abagabo bari imbere bamwe bifashe imbere abandi barigunze bari kureba uno mugabo ibyo arimo bari kujya bamwitegereza cyane.

Muganga yambaye ga ari kuvura umurwayi, ari kumutera urushinge; ni byiza ko umuntu iyo arwaye ajya kwa muganga, kubera ko muganga aba afite imiti kandi amufasha kwivura indwara, bikaba byamufasha kugira ubuzima bwiza kandi muganga na we iyo avuye umurwayi agakira, bimwongerera icyizere akishima.

Iyo ni arimantasiyo iduka, ricuruza amavuta harimo umupapa umu mama bari gucuruza. hHarimo amavuta yo kwisiga, hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye bategereje ko abakiriya baza kugura.

Abajyanama b'ubuzima bafatanyije n'abandi baturage barimo kwamamaza ubutumwa bwo kwirinda Malariya, Malaririya ni indwara mbi cyane ituruka iterwa n'umubu, umubu uba watewe n'uko hari ibihuru umuntu atatemye, ariko ndi kubona bakajije ingamba mu kuyirwanya, ni abajyanama b'ubuzima n'abandi baturage.

Ibibabi by'inturusu, inturusu ziriho ubuduruduru, ibibabi by'inturusu ni byiza, burya ibiturusu ngo bivamo umuti, bikavamo amavuta, iyo wabicaniye bivamo amavuta adufasha kuvura ibicurane se, kandi nanone igiturusu kiva ku giti kandi igiti ni igihingwa kiza hano mu Rwanda.

Uyu mugabo afite igipapuro kiriho umuti, umuti w'ibyatsi, uyu muti ufasha kuvura indwara zitandukanye, umugabo ni umuvuzi gakondo muri rusange. Umuvuzi gakondo avura indwara z'amarozi avura indwara zisanzwe, umuntu aba yaragiye ahura nazo, uyu ni umuvuzi gakondo.

Iyi ngiyi ni santere do sante irima muri konsa umwana iriho ababyeyi bandi baje kwivuza n'umusaza, santere do sante iyo tuyigannye, ni ivuriro ritwegeye kandi ridufasha kugira ubuzima bwiza, irakoteye isakaje ibati iriho n'irangi ry'ubururu, ndetse no hanze hari.

Iki ni icyumba cyo kuryamamo, hariho ibitanda, abantu bicaye ku gitanda, uwundi mubyeyi arahagaze, ibitanda bishashe neza, amashuka meza, ahantu icyumba cyo kuraramo rwose yiteguye neza kandi iyo umuntu aryamye aruhuka neza, bikamufasha kugira umubiri ukora neza, tekereza neza.